Umwana wirabura ufite ibisuko, uhagaze imbere y'urukuta rw'amatafari manini, yambaye ibitenge by'umutuku ndetse ari gukaraba mu ntoki kuri robine, yunamye amazi agwa mu ibasi.

Icyapa kiriho umwana n'umugore bahagaze ahantu hameze nko mu murima bahagaze kandi imbere y'ibihingwa bisa icyatsi bifite amababi manini, umwana yambaye umupira w'umweru umugore yambaye umupira wamabara menshi arimo umukara n'umutuku.

Abantu benshi bari kwifotoza harimo abambaye amataburiya y'umweru bafite utugozi turi mu ijosi ryabo dufashe ibyapa, bose bahagaze imbere y'icyapa kinini cyandikishijeho amagambo y'umweru gifite amabara menshi, imbere yabo hari ibyatsi biteye hasi.

Umwana w'umukobwa wirabura, wambaye ishati y'umuhondo n'ijipo ya shokora, ahagaze imbere ya kandagira ukarabe, ari koga mu ntoki, ahagaze kandi imbere yibiti bifite amababi manini y'icyatsi, inyuma ye hari bagenzi be, bambaye imyenda isa nk'iyo yambaye.

Abantu benshi bicaye mu nzu y'inama bari mu nama, hari umugore ubicaye imbere yambaye ikanzu y'icyatsi, afite icyapa mu gatuza cyerekana icyo iyo nama ivuga, yambaye ndetse n'amarinete areba cyane nk'ukurikiye.

Abagabo ndetse n'abagore benshi bakuze kandi harimo abirabura biganje, n'abazungu bakeya, bahagaze imbere y'icyapa gisa ubururu cyerekana gahunda barimo icyo ivugaho.

Umugore uri kuvoma mu ijerekani isa umuhondo, hakaba hari n'indi y'umukara n'indi y'umweru zimuteretse imbere ari guseka, ahagaze imbere y'ibyatsi ndetse yunamye afashe ku ijerekani ari kuvomera.

Abantu benshi bicaye bakurikiye inama bicaye ku ntebe zitukura bicaye imbere y'igikuta gisa umweru, harimo abagore n'abagabo biganje. harimo umugore wambaye amarinete y'umukara ndetse n'ikote ry'umukara.

Abantu bicaye mu ntebe zitukura barimo abagore n'abagabo bafite amacupa y'amazi imbere yabo ndetse na mudasobwa. Harimo ufite indangururamajwi, akaba yambaye ikanzu y'umweru irimo utuzeru dusa umutuku n'umukara.

Inzu nini y'amagorofa atatu ifite ibirahure byinshi, ikagira igisenge cy'icyatsi, ku nzu handikishijeho amagambo asa umuhondo ndetse n'umukara, uruzitiro rw'inzu rugizwe n'utwuma dusa ubururu twamezeho ibyatsi.

Umwana mutoya wirabura wasamye yashyize uburoso mu maso, yambaye agakanzu k'icyatsi ndetse n'agapira k'umweru, yicaye mu ntebe y'ubururu, inyuma ye hari igikuta cy'umweru ndetse n'icy'ubururu.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa, ari kwihanganyura akoresheje akadodo kabugenewe, yambaye umupira w'umweru ndetse ahagaze imbere y'inkuta zisa umweru. Akadodo agafatishije amaboko yombi.

Abagore babiri bakuze, uw'imbere yambaye umupira usa n'ivu uw'inyuma yambaye isengeri isa ubururu bwererutse, bari gukora siporo ngororamubiri ndetse bahagaze imbere y'igiti cy'icyatsi gifite amababi manini.

Umugore n'umukobwa bari guseka nk'abishimye, umugore asa n'ukuze, umukobwa asa n'aho akiri muto we, yambaye agapira k'ubururu gafite amaboko maremare y'umweru ndetse akaba yambaye n'isaha. Umugore yambaye ikote ry'ubururu bwererutse n'umupira w'umweru uciyemo imirongo.

Abagore batatu bari guseka, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye umupira w'ubururu, undi yambaye umupira ujya kuba umweru. Bari gufata ifoto ndetse bahagaze imbere y'ahantu hari ibyatsi.

Umugabo usa n'ukuze ufite umusatsi urimo umweru ndetse n'umukara bivanze, wambaye umupira w'umweru, wicaye ku meza ari kurya, imbere ye hari umugore uri kumusukira icyo kunywa gisa oranje.

Umugabo wirabura ukuze uri guseka, wambaye umupira usa umweru urimo imirongo y'ubururu ufite amakora y'ubururu ndetse n'amaboko y'ubururu, umugabo arirabura ari gukina ikibuguzo aruhura mu mutwe.

Umugabo ukuze wambaye amarinete ufite imisatsi y'imvi, afite ikaramu mu ntoki kandi yifashe ku kananwa. Yambaye ishati y'umutuku afite ikinyamakuru mu ntoki.

Abantu babiri birabura bateruye ibyapa mu ntoki bisa umukara byandikishijeho amagambo y'umweru n'umuhondo yerekana gahunda barimo. Bahagaze imbere kandi y'icyapa kinini gisa umweru, cyandikishijeho amagambo y'ubururu ndetse n'intebe enye z'umweru.

Inzira yo mu nzu igiye ifite imiryango kuri buri ruhande isa umuhondo ndetse n'inkuta z'umweru. Hasi hasa umuhondo, hakaba hagiye hari n'amatara hejuru y'imyeru. Hariho ishusho y'umuhondo ku ruhande ndetse hirya hariyo ameza asa umukara.

Amazu menshi kandi amwe afite amagorofa, hari acanye amatara ndetse n'ajimije, imbere y'amazu hahagaze abantu ndetse ayo mazu atandukanyijwe n'ibyatsi biteye bya pasiparume.

Inzu nini isa umweru ariko ifite n'imitako isa ubururu, yanditseho ko ari ibitaro bya Nyarugenge, ifite ibiti biteyeho by'icyatsi hasi ndetse iruhande rwayo hakaba hari amadirishya n'ibiti bimeze nk'aho bari kubaka.

Icyapa kinini kiri ahantu hagari kerekana ibyumba se ibice bigiye bitandukanye by'inzu ikiri inyuma. Hariho amabara atandukanye arimo icyatsi umutuku na orange. Inyuma y'icyapa hari ibyatsi biteye hasi.

Icyapa kiri hejuru cyerekana ibitaro bya Kabgayi, kiri imbere y'umuhanda w'ibitaka, hari abantu hepfo bari kure ndetse n'amazu yegeranye n'ibiti bifite amababi y'icyatsi.

Icyumba kirimo ibyuma biremereye byinshi bigiye bitandukanye mu ngano, gifite amadirishya manini ndetse n'inkingi nini zisa umweru, inyuma hariyo amagare yo kunyongesha muri siporo ndetse n'ibindi biremereye baterura.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe nyinshi z'umukara zihinnye, imbere hari ameza y'umweru yagenewe uyobora inama, afite igisenge kijya gusa umutuku, ndetse imbere ya buri ntebe hari indangururamajwi.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi birimo ibiryamyeho abantu n'ibishashi bitaryamyeho abantu, hari amadirishya abiri afite ibitambaro biyamanitseho bya oranje, hari inzitiramibu hejuru ndetse n'icyapa ku gikuta.

Icyumba kinini gifite amakaro y'umweru, hasi ameza hariho ibikoresho byinshi bisa nk'iby'ikoranabuhanga, utubati dusa iroza ndetse n'udusa n'ivu, udukarito dusa iroza n'umweru duteretse ku meza.

Icyumba kinini gisa umweru ku nkuta ndetse no ku isima. Harimo intebe z'imihondo, iruhande ya buri ntebe, hari akabati k'umweru gafite udukondo tw'umutuku, buri ntebe kandi ifite iruhande imashini y'umweru...

Abantu benshi bicaye bari mu nama ,uyoboye inama arahagaze ndetse abandi bicaye imbere yabo ku meza manini. Inyuma yabo hari icyapa kinini cyerekana icyo inama igamije ndetse abicaye bicaye ku ntebe z'imbaho.

Umuntu uryamye ari kwitabwaho, uri kumwitaho akaba ari gukoresha imashini. Akaba hari imigozi iri kumuturukaho icometse ku mashini, uri kumwitaho yambaye agapfukamuwa k'ubururu. Akaba ahagaze imbere kandi y'igitambaro kinini cy'ubururu.

Umugabo uryamye wambaye umupira wumweru ikabutura y'ubururu n'amasogisi y'umweru, yashyize akaguru ke ku rutugu rw'umuzungu wambaye isaha y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu, akaba yamufashe ku itako.

Igikapu gitukura kirimo ibikoresho byinshi, harimo ibipfundikije ibishashi bisa umweru, harimo imakasi, harimo n'ibindi bisa umutuku, gifite utuntu tugifunga two dusa umukara.

Umusore wirabura wambaye udukomo tubiri tw'umukara n'agapira k'umukara ndetse n'ipantaro y'igitaka, ateruye ibiro biremereye byifashishwa n'abari muri siporo ndetse bashaka kubaka imibiri yabo.

Abana benshi bambaye amasengeri y'imyeru arimo amagambo y'imikara, harimo abambaye amakabutura y'imikara ndetse n'abambaye amakabutura y'imyeru arimo imirongo y'umukara. Uw'imbere yambaye inkweto z'umukara n'amasogisi arimo imyeru n'imikara ndetse inyuma yabo hari abantu benshi bari kubareba babashungereye.

Umwana mutoya w'umukobwa wirabura wicaranye na mama we nawe wirabura, mama we yambaye igitenge cy'ubururu ndetse umwana akaba yambaye ikanzu n'agapira k'umweru. Inyuma yabo hari ibitanda byinshi ndetse n'ibindi biryamyeho abantu n'inzitiramibu zimanitse ku gisenge.

Ibiribwa byiganjemo imbuto, ibikoresho bya siporo biremereye bakoresha baterura ibinini biri hasi ndetse n'ibiri mu gacupa gasa ubururu, agakoresho kifashishwa gapima uburebure, ibikoresho bisa n'imidari.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa wambaye ikote risa icyatsi cyijimye gisa n'icya gisirikare, ikote rifite imashini, ari kunywa amazi yicaye imbere y'igikuta ndetse akaba afite igikapu imbere ye.

Imbuto zirimo iz'amaronji, agacupa k'amazi yo kunywa, igikoresho kiremereye cyo gukoresha muri siporo, umugozi wifashishwa bapima uburebure, insenda zisa umutuku, inyuma yabyo byose hakaba hari ishusho ry'ikirere.

Umusore wirabura wambaye isengeri y'icyatsi ufite inyama nini, yambaye akantu ku kaboko gasa iroza, ari kwimenaho amazi ayakura mu icupa ribonerana, rifite umupfundikizo w'umukara.

Ibiribwa birimo imbuto, inyama n'ibyatsi. Igikoresho cya siporo kiremereye, umugozi wifashishwa mu gupima uburebure, ibyo kunywa birimo amazi ari mu kirahure kibonerana ndetse n'ikindi cy'ibara gisa umuhondo.

Uduti twinshi twegeranye dufite amababi manini y'icyatsi, ariko atandukanye kandi menshi. Hasi hasa igitaka, hakaba hari n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye, bisa nk'aho bizitiye.

Agasahani k'umweru gateretseho udukoresho dusa oranje ndetse n'imbuto z'amaronji, imbere hariho agacupa k'umweru gafite igipapuro cyandikishijeho amagambo y'umukara ndetse n'ay'umweru.

Ikarito y'amabara menshi isa umweru n'umuhondo yandikishijeho amagambo y'icyatsi, hashushanyijeho kandi akantu gasa n'inyoni. Hariho ibyatsi bifite amababi y'icyatsi ndetse bifite utuntu dusa n'utubuto tw'umuhondo.

Ibihingwa biteye mu mavaze bigiye bitandukanye uko bisa ku mabara ndetse no ku miterere, harimo ibisa oranje, ibisa icyatsi n'ibisa imihondo. Amavaze asa amabara na yo atandukanye ndetse munsi ya buri vaze hariho izina ry'igihingwa kiri mu ivaze.

Icupa rifite amabara menshi rifite umupfundikizo wa oranje, hasi hagasa umweru ryandikishijeho amagambo asa oranje, ririho kandi imbuto n'igikakarubamba rikaba riri ahantu hasa umukara.

Amavaze menshi agera ku munani atandukanye ku mabara ndetse akaba afite igihingwa giteye muri buri vaze gitandukanye n'igihingwa kiri mu yindi vaze, buri vaze kandi ifite izina munsi yaryo ryerekana icyo iyo vaze ihinzemo.